Abantu benshi basa nkaho bari mu nama. Hari abantu bahagaze imbere yabo, abagabo ndetse n'umugore. Bisa nkaho babajyanye imbere, bafite ibyo bari gusobanura.

Igikorwa cya siporo hagaragaramo ko abaturage bari gukora siporo, batandukanye yaba abagore, yaba bagabo cyangwa se urubyiruko bigaragara ko bari muri siporo.

Igorofa rinini cyane, bigaragara ko ari inyubako ya leta, ibera mu bikorwa bitandukanye nk'inama, imbere yayo hari abantu benshi batandunye, abagore ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari kwifotoza, nyuma y'inama.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, harimo abagore bicaye imbere bambaye imyenda y'umweru hejuru, ndetse n'amapantaro y'umukara, ndetse n'ingofero z'umweru.

Inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare haragaragara abantu batatu imbere, bigaragara ko bashobora kuba bari kuvuga ibiganiro mu nama cyangwa se bari gushimira abaturage.

Icyumba giteraniyemo abantu, bigaragara ko aba bantu bari mu nama, hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga igitekerezo.

Icyumba kiri gukorerwamo inama. Imbere hari umusirikare ufite indangururamajwi. Bigaragara ko ariwe uri gukoresha inama.

Icyumba kirimo abantu bari mu nama, imbere hakaba hari umugore usa nkaho ari we uri gutanga ikiganiro, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyanditseho ngo bikorere mu isibo.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Bisa nkaho bari mu nama, buri wese afite amazi imbere ye kandi barimo kugenda bandika, ibyo bafatiye imyanzuro.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye hagaragara ko harimo abagore ndetse n'abagabo bisa n'aho bari mu nama kuko bifashe neza kandi bari gukurikira buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi.

Abantu benshi batandukanye bigaragara ko bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore bakurikiye uri kubaha inama.

Igikoresho kiri mu nzu ndangamurage, dushobora kukifashisha turimo kwibuka amateka cyangwa se kwereka umuco waranze igihugu abana baba batawuzi.

Ibikoresho biranga umuco nyarwanda, biragaragara ko ari amacumu aranga umuco nyarwanda, kera bashoboraga kwifashisha barimo guhiga, cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa by'ubuhigi.

Abakobwa bambaye imishanana, bigaragara ko barimo kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda, izi ndirimbo zifashishwa mu bukwe cyangwa se mu bindi birori bitandukanye.

Igikoresho cy'umuco nyarwanda kifashishwa n'intore igihe zirimo kubyina kugira ngo zibashe guca umugara neza.

Umuntu uhagaze yihengetse. uuite umwambi urimo kurasa. Ibi byifashishwaga mu muco nyarwanda kugira ngo babashe guhiga. Inyuma ye hari umuntu wambaye kinyarwanda kandi asokoje nk'uko kera basokuzaga.

Imbyino zibyinwa z'umuco nyarwanda izi mbyino zikunda kubyinwa nko mu birori cyangwa se mu gihe hari abashyitsi kugira ngo babasusurutse.

Icyumba ndangamurage, iki cyumba cyifashishwa mu kwibuka umuco wa kinyarwanda, harimo ibikoresho byifashishwaga hambere mu muco nk'amacumu.

Imbyino zikundwa kubyina ahantu habaye ubukwe cyangwa se ibindi birori bitandukanye kugira ngo babashe gushimisha abantu. Izi mbyino ni imbyino za kera zabyinywaga kugira ngo hagaragare umuco nyarwanda na n'ubu ziracyabyinywa kugira ngo tubashe kuwusigasira.

Igikoresho gikunze kwifashishwa mu muco nyarwanda bashobora kugikoresha bari nko guteguraho ibintu cyangwa se bakagitegura ku meza, ni umuco nyarwanda.

Icyumba kirimo abantu bakenyeye bigaragara ko habaye ubukwe, bari gukora umuhango w'umuco wa kinyarwanda wakorwaga kera.

Amapoto ashyirwa ku kumuhanda kugirango habashe gukwirakwiza urumuri ruvuye ku nsinga z'umuriro wamashanyarazi, kugira ngo umuhanda ubashe kubona umucyo, mu gihe cya nijoro.

Amapoto ayobora umuriro, aya mapoto bigaragara ko ariyo bashyiraho insinga zikagenda zifasheho kugira ngo umuriro ubashe kugera ku baturage mu gace runaka aho batuye bagenda batandukanye.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye na erekitirisite. Harimo abantu babiri bambaye imyenda y'ibisurubeti by'ubururu ndetse n'ingofero z'ubururu. Bigaragara ko ari abakozi bayo.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko aya mapoto adufasha mu kugira ngo insinga zibashe kugera ku mazu. Izi nsinga zigenda zijya ku nzu n'inzu.

Aho insinga z'amashanyarazi zihurira. Ni ho zikusanyirizwa kugira ngo umuriro ubashe kugera ku baturage. Hari abakozi bahari bari kuzitunganya. Bambaye imyenda yabugenewe.

Ipoto ridufasha mu gukwirakwiza insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo zibashe kugera ku bantu bose. Hariho umugore wambaye imyenda yabugenewe uri kubitunganya.

Umukozi wa REG uri hejuru yipoto bisa nkaho ari gutunganya insinga z'umuriro kugirango umuriro ubashe kugera ku baturage neza. Yambaye ingofero yumuhondo, ndetse yambaye n'indi myenda ishobora kumurinda.

Igikari gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo nko gukora inzugi, mu gukora ibyo bikoresho bifashisha ibyuma ndetse bakifashisha n'umuriro w'amashanyarazi kugirango ngo babashe guteranya ibyo byuma havemo inzugi.

ibiti by'amapoto, byifashishwa mu gushyirwaho insinga kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ubashe kugera ku bantu, hari abantu benshi bari kuzamura itri poto kugira ngo barishinge mu butaka.

Ipoto rirerire cyane ririho abakozi ba elegitirisite, aya mapoto yifashishwa mu gutambutsa insinga kugira ngo zibashe kugera ahantu hatandukanye.

Aho insinga zihurira, hari amapoto abiri ziba zifasheho kugira ngo zibashe gukomeza kugenda zijya ahantu hatandukanye.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi bw'imyenda ndetse hanakorerwamo ibikorwa by'ubudozi, hari umuntu ufite imashini idoda uri muri icyo cyumba urimo kudoda.

Iteme riri kugendamo abantu benshi, ni iteme ryubatse hejuru kugira ngo babashe kwambuka ahantu hari amazi.

Inyubako zubakwa na leta, zigakorerwamo ibikorwa bitandukanye, urugero nk'inama ndetse n'ibindi bikorwa bya leta bitandukanye.

Inyubako izwi ku izina ry'iteme, ni ikiraro kiri hejuru, kifashishwa mu kwambukiranya ahantu, kugira ngo umuntu abashe kugera hirya.

Inyubako nini cyane, iyi nyubako iragaragara ko asa nk'aho ari amashuri cyangwa se ivuriro. Imbere yayo hahagaze abantu kandi hari n'abantu bavayo cyangwa abajyayo.

Inyuba ko nini yanditseho imigirshoni ofisezi, bigaragara ko ariho abantu b'impunzi bajya kwaka serivisi, hariyo abantu benshi.

Inyubako ya sitade, iyi nyubako irimo abantu benshi basa nkaho bari gukora siporo bari gukorera hasi imbere mu kibuga, hejuru yaho hari aho abantu bashobora kwicara cyangwa se guhagarara barimo gukurikirana igikorwa runaka kiri kubera mu kibuga.

Inyubako nshyashya zirimo kubakwa zigaragara ko ari amashuri, imbere yazo hahagaze abanyeshuri ndetse hari n'intebe bicaraho mu gihe bari kwiga.

Inyubako ifite amarangi yubururu imbere yayo hicaye ahantu hejuru handitseho ngo gira ubuzima bigaragara ko ari ivuriro.

Inyubako ya Leta, iyi nyubako ni inyubako yifashishwa mu gukina cyangwa se ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bihuza abantu benshi, iyi nyubako yitwa sitade.

Inyubako zubakwa na Leta mu duce dutandukanye, inyubako ziberamo ibikorwa bya Leta bitandukanye nk'inama ndetse n'ibindi bitandukanye bihuriwemo n'abantu benshi.

Inyubako ngari isa nkaho ikorerwamo ibikorwa bya leta, imbere yayo hariho idarapo ry'igihugu, iri imbere y'umuhanda munsi yawo hakaba hari abamotari baparitse.

Abantu benshi bicaye ahantu mu busitani, bamwe bicaye munsi ya tente abandi bicaye hirya, bigaragara ko bari mu nama.

Urumuri, uruurumuri rutwibutsa abacu bapfuye, iyo turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, turukoresha turi kurucana kugira ngo tubibuke.

Abantu benshi batandukanye, abagabo ndetse n'abagore kandi harimo n'abasirikare, bigaragara ko barimo kwibuka kuko bari gushyira indabo ku rwibutso.

Abantu benshi higanjemo abayobozi bicaye mu itente ndetse harimo n'abasirikare ndetse n'abapolisi, imbere yabo hari abantu batandukanye, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwibuka.

Abantu batandukanye, bicaye hamwe, basa nk'aho bari mu nama, babiri muri bo barahagaze, umwe n'umugabo, undi n'umugore, bisa nk'aho bari gutanga ibitekerezo mu nama.

Ikigo cy'amashuri, hirya yacyo hari abantu batandukanye. Abagabo ndetse n'abagore. Bigaragara ko ari abantu baje mu nama.

Icyapa kiri ibumoso cy'umukara cyandikishijeho inyuguti z'umweru kigaragaza urwibutso rwa Muvumba iburyo bwacyo haragaragara umugabo ufite indabo ari gushyiraho. Inyuma ye hagaragara abandi bantu batandukanye harimo n'abasirikare.

Abantu benshi bifashe neza ndetse harimo n'abasirikare. Bigaragara ko bari mu gikorwa kijyanye no kwibuka kuko bose baratuje kandi bari kureba hasi.

Abantu benshi basa nkaho bari mu nama, hari abahagaze imbere bigaragara ko bari gutanga ibibazo byabo bafite mu mudugudu.

Amapoto ariho nsinka z'amashanyarazi, bigaragara ko ariyo afashe insinga kugira ngo umuriro ukwirakwi ku baturage, biragaragara ko aya mafoto yegereye urugo, iyo nzu ikaba ari inzu nini isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda mugari ugenderamo ibinyabiziga, ku ruhande rwaho hari inzu nyinshi, bigaragara ko ari inzu z'ubucuruzi, muri uwo muhanda hari kugendamo imodoka nini y'umweru, hejuru kuri iyo modoka hariho umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Icyapa kigaragaza inzu y'amacumbi yitwa Isonga, kikaba kigaragaza serivisi batanga hakaba harimo ibyo kurya bya mugitondo imbuto, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda, gishinze mu ndabyo, cyanditseho ngo Nyagatare segita, biragaragara ko kiturangira aho umurenge uherereye.

Inyubako nshyashya irimo kubakwa ikaba izitiweho n'amabati y'umweru, hariho icyapa kiriho igishushanyo mbonera kigaragaza inyubako izubakwa aho hantu.

Icyapa kigaragaza ko ari ahantu baparika imodoka gishinze mu murima, iruhande rw'umuhanda unyuramo ibinyabiziga, imbere yacyo hari umuhanda, imbere y'umuhanda hakaba hari n'inzu yubakishije amabati y'umutuku.

Imodoka zitandukanye zirimo imodoka zitwara abantu benshi ndetse n'imodoka zigendamo abantu bake, bigaragara ko izi modoka hari iziri kwinjira muri gare ndetse n'iziri gusohoka muri gare.

Gare iparikwamo ibinyabiziga mu gihe bivuye aho byari byagiye cyangwa se mu gihe hakenewe guparika. Harimo imodoka nini itwara abagenzi y'umweru.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga hari kugendamo imodoka y'umweru, hirya y'aho mu kayira k'abanyamaguru harimo abantu babiri.

Abantu babiri bari ku igare , uw'immbere utwaye igare ahetse igikapu cy'umukara. Uwo inyuma atwaye yambaye ingofero y'amabara atandukanye. Imbere yabo hari icyapa cya mirongo itandatu.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Ku ruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru ndetse hirya hari n'icyapa kigaragaza nimero y'umuhanda umuntu agezemo.

Abantu benshi bigaragara ko basa nk'aho barimo gukora umuganda, harimo ndetse n'umusirikare, basa nk'aho bari gukora umuhanda.

Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye hamwe abandi bahagaze inyuma, bigaragara ko bari mu nama kuko imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi urimo kuvuga.

Abantu benshi bari ku kumurongo bose bikoreye amabuye, bigaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda rusange mu mudugudu.

Abaturage benshi barimo gukora umuhanda, bigaragara ko bari mu muganda. Bose bafite amasuka ndetse hari n'abasirikare ndetse n'abadaso.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri siporo, imbere yabo bayobowe n'imodoka ya polisi, ndetse hakaba hari n'umuntu uri ku igare, ubayoboye uri imbere yabo.

Inyubako za leta zubakwa ahantu hatandukanye, urugero nka sitade, hano hari abantu bicaye muri sitade bigaragara ko bari gukurikirana imikino itandukanye iri kubera mu kibuga.

Abantu bicaye mu nyubako ya Leta yabugenewe, basa nk'aho bari gukurikirana umupira w'amaguru uri kubera hasi mu kibuga, abantu bicaye hejuru muri sitade.

Siporo rusange, iyi siporo iri kubera muri sitade, bigaragara ko ari umukino uri kuba abafana bakaba bicaye hejuru muri sitade barimo guwukurikirana.

Abantu benshi bari mu kibuga, bigaragara ko bari muri siporo, bambaye imyenda yabugenewe ya siporo, ni abagabo ndetse n'abagore.

Ikibuga kinini kigaragara ko ari icyo bakiniramo, harimo abantu bari gukora siporo bakora imikino y'amaguru, bambaye amajezi atandukanye.

Abantu bari gukora siporo, bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru ndetse bambaye n'imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abagabo bane bambaye impuzankano, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru ni abakinnyi bo mu makipe atandukanye kuko bose bambaye imyenda yabugenewe ariko itandukanye bigaragara ko ari amakipe abiri atandukanye.

Abantu benshi bambaye imyenda yabugenewe, bigaragara ko bafite imikino, bambaye imyenda itandukanye, ndetse n'inkweto zifashishwa mu gukina umupira w'amaguru.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kiri inyuma y'amazu asakaje amabati y'umutuku, harimo umuntu wambaye imyenda ya siporo, urimo gukina umupira, bigaragara ko ari muri siporo.

Abantu benshi bari mu nyubako yifashishwa mu bikorwa bitandukanye nk'ibiganiro cyangwa se kureba umupira, bari muri iyo nyubako bigaragara ko hari igikorwa kiri kubera mu kibuga k'imikino.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hagarara umuhanda mutoya ugendamo abanyamaguru kugira ngo batagenda mu muhanda mugari bakaba bahura n'impanuka.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga, harimo umuntu wambaye imyenda yabugenewe urimo gukuburamo kugira ngo hagire isuku, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari ugenderamo ibinyabiziga. Muri uyu muhanda hari kugenderamo umuntu utwaye igare. Hirya yawo hari akayira kanyuramo abanyamaguru.

Umuhanda usa nkaho wegereye igishanga ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande rw'ibumoso bigaragara ko hari inzu zubatse iruhande rwuwo muhanda, n'uwo muhanda uri kugendamo moto itwawe n'umuntu umwe.

Umuhanda ushashemo amabuye, ku ruhande rwawo hakaba hari inzu, imbere y'iyo nzu hari aho batangira serivisi za MTN, imbere y'ako kazu hari abamotari baparitse ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Umuhanda w'igitaka ugendwamo n'abaturage, hirya y'uwo muhanda hariho rigori, bigaragara ko basizeho ibisima kugira ngo bidateza impanuka.

Umuhanda w'igitaka uri hagati mu ngo, bigaragara ko ari wo abaturage bifashisha bagenda, mu ngo zabo, cyangwa bajya ahantu hatandukanye.